Igipapuro kinini kiriho indirimbo yitwa "Nkunda Gusiga Irangie". Hariho uburyo bayiririmbamo bagenda bazamuka ndetse n'aho bagenda bamanuka.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zitandukanye ziriho ibyumba by'amashuri byifashishwa n'abanyeshuri biga muri icyo kigo bigiramo ,harimo abana bane mu mbuga barimo gukina.

Icyapa Kiri mu mabara y'umuhondo kigaragaza ikiganiro cy'abana ndetse n'imiryango yabo, kizwi ku izina ry'itetero, kigisha abana uburyo bitwara ku babyeyi babo, ndetse n'uburyo ababyeyi bafata abana babo.

Ahantu rusange hari ibikinisho byinshi byifashishwa n'abana bakiniramo imikino itandukanye, hateraniye ababyeyi bazanye abana babo kubakinishiriza muri ibyo bikinisho.

Abana batatu bo mu mashuri y'inshuke bicaye ku myicungo barimo baricunga, inyuma yabo hahagaze umurezi urimo kubareberera kugira ngo batagwa.

Urukuta runini rw'ishuri rusize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitiyo, amasuka ndetse n'ibindi, byifashishwa n'abana bigiramo babyigiraho.

Igikapu cy'umutuku cyifashishwa n'abana b'abanyeshuri batwayemo ibikoresho byabo amakaye ndetse n'amakaramu yabo kugira ngo bitangirika.

Icyumba k'ishuri kicayemo abana, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano, imbere yabo hari umwana ufite igipapuro urimo kugenda abasomera amagambo yanditseho.

Inyubako nini y'ikigo cy'amashuri, kigamo abana b'inshuke ndetse n'abo mu mashuri abanza, inyuma yayo hari ibikoresho, bifashisha bakiniramo, iyo bari mu masaha y'akaruhuko, harimo imyicungo ndetse n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo bucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, imbere yaho ku rubaraza haparitse moto.

Umugabo wambaye ikote, iteze igitambaro mu mutwe, afite ikaramu arimo arigisha umwana bari kumwe gushushanya imbuto zigiye zitandukanye zishushanyije ku kibaho.

Icyapa kinini cyubatse mu kigo cy'amashuri cya GS Gishororo irereye mu murenge wa Mukama akarere ka Nyagatare hariho indangagaciro zifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarezi bo muri icyo kigo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri harimo amarati abafasha guca imirongo, amakaramu y'ibiti ndetse n'amabara yo gusiga ibishushanyo byabo.

Ikigo cy'ishuri harimo kuzamurwamo inyubako y'ishuri iri mu buryo bugeretse kugira ngo bakoreshe neza ubutaka, harimo n'abanyeshuri bahetse ibikapu barimo kuva ku ishuri.

Amashusho atanu agiye atandukanye, ariho umwana uri gukora imodoka y'igikinisho, yifashishije ibiti ndetse n'umugozi wo kuzajya ayikurura.

Ikigo k'ishuri hariho abana bambaye impuzankano, abahungu bambaye kake, abakobwa bambaye kontoni. Imbere yabo ahagaze abarimu bambaye amataburiya y'umweru abo banyeshuri bari ku mirongo.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, haririmo utubati ndetse n'ibindi bikinisho, bifasha abanyeshuri bigiramo, kwigira kuri ibyo bikoresho, birimo.

Icyumba cy'ishuri harimo ikibaho cy'umukara, cyifashishwa n'abarimu bigishirizaho abanyeshuri, harimo n'intebe zicarwaho n'abanyeshuri bigira muri iryo shuri.

Urukuta runini rw'ikigo cy'amashuri cya APEDU Nyamata rwinjira muri icyo kigo hari amarembo manini yubakishije ibyuma ariho amagambo ahereza ikaze abahagana.

Abana bane bambaye impuzankano bo mu mashuri abanza, bafite ibiryo biteretse ku meza barimo kurya hari n'ibikombe birimo amata barimo kunywa, umwe afite ikibazo ku kaguru.

Inyubako y'ishuri irimo akabati karimo ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri bigira muri iryo shuri, hari n'igipapuro kinini cy'umweru gishushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye, isuka, igidiyo ndetse n'ingorofani bifashisha bigiraho.

Inyubako nini y'ishuri iriho udutako twifashishwa n'abana mu myigire yabo ya buri munsi, hariho ikiho imibare ndetse n'inyuguti basoma.

Inyubako nini iriho ibyumba by'ishuri bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bo mu myaka itandukanye babyigiramo, imbere yaho hashinze Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ibitabo n'amakayi biri mu mabara atandukanye, bigerekeranyije, hari amakaramu ndetse n'andi makaramu y'ibiti, yifashisha bandikamo, yifashishwa ry'abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke.

Igishushanyo cyifashishwa n'abana bo mu mashuri y'incuke ndetse n' abanza, kiri mu mabara y'umukara, gifite ishusho isa nk'iy'ihene y'ishyamba, kikagira umunwa nk'uw'inyoni.

Abantu batandatu bambaye imipira y'imihondo barimo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe bahagaze mu kigo cy'amashuri imbere y'igikinisho kizwi nk'umwicungo aho abana bakinira.

Inyubako imwe iherereye mu kigo cy'amashuri, izwi nk'icyumba cy'umukobwa cyifashishwa n'abakobwa biga muri icyo kigo, iyo bahuye n'ikibazo bayijyamo bityo bagahabwa ubufasha bw'ibanze, imbere yayo hagaze umugabo waje gusuzuma ko yujuje ibyangombwa.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo umwuga w'ubudozi harimo amamashini agiye atandukanye, harimo n'abanyeshuri bambaye impuzankano bari kwiga kudoda, inyuma yabo harimo umwarimu ubibigisha.

Ku kigo cy'amashuri higirwamo n'abanyeshuri batandukanye, abo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bari ku mirongo yifashe neza bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu mbere y'uko hatangira ibirori bigiye kubera aho ngaho.

Abana b'abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano, udupira tw'umuhondo ndetse n'amapantaro ya kake, ku mipira hariho ibirango by'ishuri ryabo, bari kumirongo barimo kugenda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye imipira y'umuhondo, abandi bambaye iy'icyatsi ndetse amapantaro n'amajipo yabo imikara. Bateraniye mu kibuga gikinirwamo umukino wa basiketi.

Inyubako ndende igeretse imbere yayo hari abagabo benshi batandukanye, barimo kuva gusura iyo nyubako yifashishwa n'abanyeshuri bayigiramo.

Abantu batandukanye bahagaze muri sitade bambaye amakanzu y'ubururu bwijimye, bazamuye ingofero mu kirere barimo baraseka bishimira ko basoje amashuri yabo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, bamwe bicaye ku ntebe barimo kwandikira ku meza, abandi barahagaze kugira babashe kureba ibyanditse ku kibaho.

Imbaga y'abanyeshuri bateraniye hamwe bambaye amakanzu y'imikara, banaze ingofero mu kirere bishimira ko bashoje amashuri yabo, iruhande rw'aho hari abantu bicaye baje gukurikirana uwo muhango.

Inyubako ndende ya kaminuza ,irimo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye ,byifashishwa n'abanyeshuri barimo kwiga, imbere yayo hari abanyeshuri batatu, barimo kugenda bajya kwiga.

Inyubako y'ishuri irimo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye, harimo ibiri hasi n'ibiri hejuru kuko iyi nyubako igeretse, hari esikariye zizamuka zijya muri ibyo byumba byo hejuru.

Igishushanyo kiriho imbuto z'amoko agiye atandukanye; harimo inanasi, imineke ndetse n'izindi ikenerwa n'umubiri wa muntu mu buzima bwe bwa buri munsi.

Inyubako y'ishuri nini igeretse, ikasemo ibyumba bigiye bitandukanye byigirwamo n'abanyeshuri, imbere yayo hateretse intebe z'amoko atandukanye, harimo izikoze mu biti ndetse n'izikoze muri pulastike.

Abantu batandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama bicaye imbere y'ameza arambitseho impapuro ebyiri rumwe ruriho ibibazo, urundi bari gusubirizaho.

Icyumba k'inama giteraniyemo abantu benshi bicaye ku ntebe, yiganjemo abagabo ndetse n'abagore, bitabiriye inama iri kuberamo hifashishijwe ikoranabuhanga.

Icyumba kinini cy'inama hicayemo urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi, bicaye barimo gukurikirana ibiganiro biri kubera muri icyo cyumba cy'inama, bafite n'udukayi barimo kwandika iby'ingenzi byavugiwemo.

Inzira ikoze neza, yubakishije amatafari ahiye, harimo kunyuraho urujya n'uruza rw'abanyeshuri, bajya ku ishuri, banyuze ku marembo yubakishije ibyuma.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe z'icyatsi, ndetse imbere yabo hari ameza, imbere hari ikibaho bigiraho.